Uyu ni umuhinzi w'umugore uhagaze mu murima w'ibigori, ari kwitegereza umuntu uri kumufotora, bigaragara y'uko ari kugaragaza umusaruro we ndetse n'akamaro k'ubuhinzi.

Uyu ni umurima w'indabyo, harimo umudamu urimo uzitunganya, bigaragara yuko ari umushinga yatangije wo kugira ngo abashe kuba yagera ku nyungu.

Iri ni isoko ririmo ibiribwa byinshi bitandukanye harimo inyanya, avoka, ibibiriganya, pavuro ndetse n'ibindi byinshi.